Umwana wambaye ikanzu irimo utudomo tw'umukara arimo gukaraba intoki ku iriba akarabira mu ndobo isa umweru, akaba ari ingenzi gukaraba igihe cyose uvuye mu bintu byanduza intoki zawe.

Ibiganiro biri buhuze abantu benshi, ni byiza ko bibera ahantu hagari kandi hateguye neza, ahangaha ameza manini niyo bifashishije

Mu muco nyarwanda itorero ryigisha abana cyangwa abantu bakuru indangagaciro na za kirazira igihugu kigenderaho. Aha ngaha abana batoya bicaye bakoze uruziga ndetse n'abatoza babo, barimo kuganirizwa ku ndangagaciro na kirazira z'igihugu cyacu.

Abantu duhitamo gukoresha ibinini kurusha uko twafata urukingo kuko dutinya ko urushinge ruryana ndetse rukavisha n'amaraso bityo tugahitamo kwikoreshereza ibinini kuko ari byo bitunogeye kandi bitatuvisha amaraso.

Umukobwa urimo kuvoma amazi ayavomera mu ijerikani, iteretse mu mabase atatu. Inyuma ye hakaba hari imyenda amaze gufura, yanitse ku mugozi.

Inama yitabiriwe n'abagabo n'abagore, bibumbiye mu matsinda atandukanye, ikaba irimo kuvuga ku buryo umuntu yagira uburenganzira muri serivise z'ubuzima uko yaba angana kose.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa, witeze igitambaro mu mutwe, uri mu kigero k'imyaka mirongo itatu, akaba yitabiriye igikorwa rusange cyo gufata urukingo rwa Kovide cumi n'icyenda.

Abana babiri barimo gukina n'amazi aturuka mu gitembo kiyavana mu kigega kiba cyayabitse. Aba bana bakaba bishimye, ubona ko bizihiwe no gukina na yo kuko biba bishimishije kandi bitangaje.

Mu duce tumwe na tumwe tw'ibyaro, ahanini mu misozi miremire, ni ikibazo kubona amazi yegerejwe abaturage, aha abaturage bishimiye amazi babazaniye.

Abagabo batatu bambaye ibintu bibapfubitse umubiri wose, bashinzwe gukusanya imyanda iba yaturutse mu bitaro nyuma yo gukoreshwa harimo inshinge ndetse na ga.

Umukobwa usutaraye, wambaye umupira w'umutuku n'ijipo y'umukara urimo kuvoma, ndetse akaba arimo no guseka, inyuma ye hanitse imyenda amaze gufura.

Inyubako yubatse neza ifite pisine hejuru. Ni byiza kugira pisine ku nyubako kuko zikurura abantu benshi baje kuhishimishiriza boga ayo mazi ndetse bakanayifotorezaho.

Abaturage bicaye mu ihema ryubatswe ku bufatanye n'urubyiruko rwitanze, bakaba barimo gukurikirana inama irimo gutangwa n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ufite mikoro mu ntoki.

Abajyanama b'ubuzima bahagaze hamwe, bambaye amataburiya, inyuma yo gufata inyigisho barimo kwifotoza. Bambaye udupfukamunwa ndetse bafite imfashanyigisho mu ntoki zabo bazajya bifashisha bigisha abaturage.

Inama irimo kubera muri sale nini yitabiriwe n'abagore n'abagabo bari mu byiciro by'imyaka itandukanye, barimo kuvuga ibijyanye n'ubuzima, uko wakwita ku mubiri ndetse nuko wakwita ku bana batoya.

Umwana wambaye inifomo y'ishuri, urimo gukarabira mu ibase isa umuhondo, nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri. Ni byiza gukaraba intoki, cyane cyane ku banyeshuri nyuma yo kuva muri siporo ndetse no mu bwiherero.

Ni byiza gupimisha abana no kubahesha inkingo zose uko zagenwe na muganga. Umubyeyi uteruye umwana we umaze kumupimisha ibiro ku banyabuzima.

Umugore uri ku gitanda mu cyumba cy'aho ababyeyi babyarira, wambaye agapfukamunwa uri kumwe n'umurwaza we nawe wambaye agapfukamunwa ndetse muganga arimo kumva ku nda ye uko umwana atera.

Indwara nyinshi zandurira mu buhumekero zikwirakwira vuba abaganga batatu bambaye udupfukamunwa mu rwego rwo kwirinda izo ndwara bakaba bambaye amataburiya ahisha umubiri wabo kugira ngo badahura n'izo ngaruka z'izo ndwara.

Ibikorwa remezo biri mu byegerejwe abaturage muri iki gihugu cyacu, aha twavuga nk'isoko abaturage baza kuvomaho amazi, umubyeyi wazanye ikidomoro kinini arimo kuvoma ayo mazi meza, nyuma y'uko bayashyize hafi ye mu mudugudu.

Iyo abantu bafite ikintu bahuriyeho ni byiza ko bambara umwenda ubahuza bose, kugira ngo bagaragare kimwe, ndetse n'ubabonye ahite yibwira icyo bakora.

Kwigisha abana bakiri bato ni byiza cyane cyane ukibanda ku buzima bw'imyororokere kuko bibarinda gutwita imburagihe ndetse abahungu bikabarinda gutera inda zidateganyijwe.

Abana bafite imirire mibi barimo kwitabwaho na polisi ibifashijwemo n'abanyabuzima babaha igikoma ndetse n'ababyeyi babo barahari kugira ngo bahabwe inyigisho zerekeranye n'uko bakwita kuri abo bana.

Abagore barimo gukora iriba nyuma yo kwangizwa n'umuyaga ndetse n'imvura yari yaraye iguye amazi akameneka. Umugore ukenyeye igitenge kirimo amabara' yumutuku urimo kujya avoma amazi.

Umuzungu w'umukobwa urimo guhabwa impano n'umunyarwanda, amushimira ko yaje gusura igihugu cyacu, amubwira ko ari igihugu kigendwa ndetse bafashe ifoto y'urwibutso izamukumbuza kugaruka mu Rwanda.

Inama irimo kubera mu nzu nziza aho abagore n'abagabo bicaye bakikije ameza. Kuri buri meza hateretseho amacupa y'amazi buri wese aribuze kunywa igihe araba agize icyaka. Kandi buri wese afite ikayi aribuze kwandikamo ibyo yumvise.

Umwana w'umunyeshuri urimo kuvoma amazi yo gukaraba kuri kandagira ukarabe iri mu kigo yigaho, yishimiye ko babegereje amazi kuko bayakaraba nyuma yo kuva mu myitozo ngororamubiri ndetse no kuva ku bwiherero.

Umugezi ufite imireko itatu, usize irange ry'ubururu, abaturage bakaba bitabiriye umuganda baje kuwukorera isuku.

Abana baje ku iriba kuvoma amazi meza. Bitwaje ibidomoro bitandukanye, harimo abafite ibidomoro binini ndetse n'utudomoro dutoya. Ni byiza kuza kuvomera mu kidomoro gisa neza.

Ifoto y'uhagarariye ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda ndetse n'imvugo ye ishishikariza Abanyarwanda kwirinda kanseri, aho avuga ko abarenga magana atandatu bapfa buri mwaka bazize kanseri.

Umukobwa urimo kuvomera amazi mu ndobo ku mugezi utemba, aya mazi ntago aba ari meza ku buzima bw'umuntu kuko haba harimo iminyorogoto, inzoka n'utundi dusimba tutari twiza ku buzima bw'umuntu.

Umwana waje kuvoma ku iriba, azanye ijerekani. Akaba ari mu kigero cy'imyaka icumi. Akaba ari muri gahunda yo kwegereza amazi meza, mu Mudugudu.

Ibikorwa dukora mu buzima bwa buri munsi iyo hatagize ikintu kigaragara kizajya kikwibutsa yuko byabaye biribagirana, ni byiza gufata ifoto mu gihe urangije igikorwa icya ari cyo cyose, kugira ngo izajye ikwibutsa ibyo bihe.

Ibikorwa byose bihuza abantu benshi, biba bifite abaterankunga; aha ngaha, abafatanyabikorwa barimo kwerekana ibyo bamaze kugeraho.

Umwana wambaye infomu y'ishati y'ubururu ndetse n'ikabutura y'umukara, yishimiye gukaraba amazi meza begerejwe mu buryo bwo gukumira indwara zishobora guterwa n'umwanda wo kudakaraba intoki nyuma yo kuva mu bwiherero.

Inshinge zikoreshwa kwa muganga, ni byiza ko zigomba kuba zifite ahantu habugenewe zibikwa ndetse n'aho bajugunya izimaze gukoreshwa kuko ni zimwe mu zikwirakwiza indwara kandi zikaba zishobora gutera ibibazo nk'impfu ku bana batoya.

Umwana urimo kuvoma amazi arimo guturuka mu kigega, akaba arimo kuyavomera mu gikombe gisa umweru, si byiza ko uhita ukoresha ano mazi avuye mu kigega, utabanje kuyatunganya neza, kuko aba arimo imyanda yaturutse mu kigega mo imbere, ndetse n'imvura iba yaguyemo.

Inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zose, abagore n'abagabo, ikaba irimo kubera ku kagari, aho hari ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda, rigizwe n'amabara atatu:ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi.

Ni byiza gukora ubushakashatsi wifashishije ibikoresho ufite iruhande rwawe. Umwana w'umuhungu wambaye isengeri isa umukara, arimo gukora ubushakashatsi yifashishije indobo irimo amazi. Imbere ye hahagaze murumuna we ufite rozwari mu ntoki urimo kumwongereramo amazi.

Abana benshi baje ku iriba kuvoma bazanye utudomoro dusa nabi na bo ubwabo basa nabi nkaho badaheruka koga, ndetse bakaba bazindutse baza kuvoma.

Abana batatu baje kuvoma bafite utujerikani dutatu ndetse n'umuzungu urimo kubakorera amazi, bisa nkaho bamaze igihe kinini bafite ikibazo cyo kubura amazi akaba yaje kuyabakorera ndetse akanayabegereza hafi y'iwabo.

Ababyeyi b'abamama babiri bicaye ku ntebe bashyize ibiganza byabo ku meza, bakaba barimo kwifotoza nyuma yo gutambutsa ikiganiro, bishimiye guhuza n'abo bari bakigeneye.

Ababyeyi, abana baje mu bitaro kwivuza indwara zitandukanye, bakaba batera umurongo bakicara bakurikije uko baje kugira ngo hatagira utanga undi kujya kwivuza.

Abana bane, bishimye cyane barimo guseka, barimo gukarabywa na se amazi meza, bagakarabira mu ibase, ubona yuko bagiye kurya ibiryo, bakabanza gukaraba mbere yuko bafata icyo kurya.

Umugabo wambaye ipantaro n'ishati bisa ubururu, arimo guha amabwiriza umugore wicaye umukorera, ibiro arimo harimo za Mudasobwa yifashisha mu gukora akazi ke vuba kandi neza.

Umubyeyi urimo kuvoma amazi muri Nyabarongo. Akaba ari amazi mabi ndetse Nyabarongo ikaba itembera hagati y'imisozi ibiri iteganye.

Agahinda gakabije kari muri bimwe birimo gutwara ubuzima bw'abantu muri iyi minsi, kwigunga bikabije si byiza, kandi bituma umuntu yiheba, ni byiza kuba hafi y'aba bantu ugatega amatwi ikibazo bakubwiye, kugirango ngo uborohereze, kandi bagaruke mu buzima bwiza.

Ikiganiro cyitabiriwe cyane cyane n'urubyiruko, kikaba kirimo gutangwa n'umudamu uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu, arimo kubabwira uko wakita ku buzima bwo mu mutwe ndetse n'uko wabubungabunga.

Umudamu urimo guseka, wambaye ijiri risa umuhondo, akaba arimo kwifotoreza mu iduka acururizamo ibirungo byo kurya. Ni byiza kugira umurimo ukora, ariko kandi ukanawamamaza ukoresheje ifoto ushyira ku mbuga nkoranyambaga.

Burya koko kwiga ni uguhozaho, nta ntera ifatika ihari umuntu ageraho ngo tuvuge ngo yarangije kwiga, aha ngaha ababyeyi bahetse abana babo barimo gufata inyigisho zerekeranye n'uko bakwita kuri abo bana, imbere hari umugabo urimo kubereka uko babigenza.

Ifoto y'urwibutso yafashwe nyuma yo kurangiza inama yari yitabiriwe n'urubyiruko, ivuga ku kuntu warinda ukanabungabunga ubuzima bwo mu mutwe.

Umubyeyi wishyize igitambaro mu mutwe urimo kureba iburyo, inyuma ye hakaba hari igikuta gishushanyijeho ururabo rufite n'ubwerezwa mu buryo bwa gihanga.

Umwana wicaye hasi wakuyemo imyambaro ye yose, akaba arimo kugaragaza imico itari myiza muri sosiyete nyarwanda, ni byiza kumuba hafi kuko bimurinda kwigunga ndetse akagarura n'ubuzima, byaba ngombwa ukamujyana kwa muganga kugira ngo yitabweho.

Igikorwa cyitabiriwe n'uhagarariye polisi mu karere ka Rubavu ndetse na Gitifu w'Umurenge w'Akarere ka Rubavu, barimo gushishikariza abantu ko kurwanya ihohoterwa ari inshingano ya buri wese, uhagarariye Akagari akaba afite indangururamajwi arimo gukoresha.

Uwambaye neza agaragara neza. Umubyeyi wambaye igitenge yadodesheje ndetse witeze n'ikindi cyacyo, arimo gufata ifoto yishimiye ko yambaye imyambaro mishya kandi ikaba imubereye.

Abagore n'abagabo barimo gufata ifoto y'urwibutso, nyuma yo gukora ibiganiro bivuga ku ku kuntu wakubaka ubutabera mu Rwanda, ndetse n'uburyo wagabanya kandi ugakuraho akarengane n'ubusumbane.

Nta kintu gishimisha umubyeyi, nk'iyo abonye icyo ari buhe abana be. Umukecuru utetse igikoma, mu masaha y'igitondo, yishimiye ko abonye icyo ari buhe abana be, mbere yuko bajya ku ishuri.

Muganga uvura amenyo arimo gukura umwana w'umukobwa iryinyo ryangiritse akoresheje utwuma tubishinzwe akaba arimo anamuganiriza kugira ngo atumva ububa...

Ibiro muganga aba yicayemo igihe arimo gutegura imiti ajya kuvurisha umurwayi w'amenyo. Hakaba hari imashini imufasha kureba ubuzima bw'iryinyo, ndetse hakaba hari na firigo abikamo imiti.

Buri mwaka twizihiza umunsi Mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima ndetse n'indwara zifata mu kanwa, aha twavuga nko gucika ibisebe kwishinya, gukomereka kw'amenyo, ndetse no kugira impumuro mbi mu kanwa, izi ndwara zikaba zivurirwa ubuntu, kuri uwo munsi mpuzamahanga.

Umukobwa ufite uruhu rukeye wasetse urimo kutwereka amenyo ye ukuntu ari meza, afite amenyo y'umweru yogeje neza kandi ameze neza.

Kugira mu maso hakeye ni kimwe mu bintu bituma umuntu yishima ndetse akikunda kandi agakundwa n'abandi. Umukobwa urimo kwirebera mu ndorerwamo akabona isura ye irakeye akishima.

Umuganga w'umugabo ushinzwe kuvura amenyo, arimo kuvugana n'umurwayi amubaza uko yafashwe n'uko yumva ameze. Akaba arimo kumusobanurira uko bigenda mu gukurwa amenyo, arimo kumubwira amabwiriza n'icyo bisaba kugira ngo yitegure.

Mu Rwanda ubuvuzi bwateye imbere. Iyo umurwayi arembye kandi akaba ashaka guca muri scanner barabimukorera kuko izo mashini tuzifite mu Rwanda. Hano scanner irimo kutwereka uko amenyo y'umuntu ameze, kugira ngo babashe kumuvura bazi icyo bavura ndetse n'ahafashwe.

Kuba wagira amenyo y'impengekerane ntibikiri ikibazo mu Rwanda, kuko dufite abaganga babihuguriwe kandi babyize mu kuvura impengekerane ndetse no gukura ayo menyo, bakayasimbuza ayandi meza.

Muganga wita ku buzima bw'amenyo nyuma yo kuvura umurwayi akamera neza arimo kwifotoza, yicaye ku ntebe ifite umusego w'icyatsi ndetse hakaba hari n'igitanda umurwayi aryamaho.

Amenyo ni kimwe mu bice bigize umubiri w'umuntu. Akaba ashinzwe kurya no gukanjakanja ibyo umuntu ariye. Uwo ni umumaro umwe amenyo akora. Akaba ari byiza kubungabunga amenyo ndetse no kuyagirira isuku.

Kwegera abanyeshuri bakiri batoya bakegerezwa ibikorwa bibafasha kwiga neza ni byiza kuko bituma bakunda ishuri ndetse bakanakura bifuza kuba icyo bazi, aha ngaha abaganga baje ku ishuri kuganiriza abana uko barinda amenyo yabo kwangirika.

Muganga ushinzwe kuvura ibijyanye n'amenyo ari muri laboratwari, aho arimo gusuzuma imiti bamuzaniye kugira ngo arebe ko yujuje ubuziranenge, mbere yo gukoreshwa mu kuvura abarwayi b'amenyo.

Umukobwa ufite uburoso bw'amenyo urimo kwiborosa, yirebera mu ndorerwamo. Yambaye ikanzu y'umweru, imbere ye hateretse igikombe kirimo uburoso na korogate.

Umuganga wambaye ga n'itariya na marinete, arimo guha serivisi umwana w'imyaka ine, yo gukura amenyo, bigaragara yuko uyu mwana afite ikibazo cyo mu kanwa, giterwa no kuba arwaye iryinyo.

Umukobwa n'umuhungu bari mu kigero cy'imyaka ingana, barimo kwita ku menyo yabo, barimo guseka birebera mu ndorerwamo iteretse imbere yabo, kugira ngo barebe ko amenyo yabo ameze neza, ni byiza kwita ku isuku yo mu kanwa.

Umugabo uri mu za bukuru urimo guhabwa inyigisho na muganga z'uko yakwita ku buzima bwe. Muganga yambaye itaburiya y'umweru ndetse akaba ari kumwumvisha uburyoki kurya neza no kwita ku buzima bwe ari ingenzi kugira ngo azarambe kure y'isi.

Umukecuru ukuze wambaye urunigi n'agapira k'ubururu ndetse ufite na mikoro y'umutuku, arimo gutanga ikiganiro uko wakwita ku buzima ndetse n'uburyo wakwita kubantu bakuze yaba abasaza cyangwa abakecuru muri rusange.

Umusaza uri mu myaka y'izabukuru urimo gusindagizwa n'umuhungu we, akaba arimo kumufasha gutera intambwe amwereka uko yagenda kugira ngo atanyerera akikubita hasi.

Iteka iyo abantu b'urungano bari hamwe, barishima bakiyibutsa ibihe byabo bya kera. Aha ngaha abasaza bicaye hamwe, barimo kuganira ubuzima bwabo bw'ahahise ndetse barimo kuboha bakoresheje intoki zabo kugira ngo na bo babone amafaranga yo kwiteza imbere.

Umubyeyi ugeze mu za bukuru wicaye mu kagare bashyiramo abarwayi barembye, muganga wicaye imbere ye arimo gupima uko umutima we utera kugira ngo hafatwe icyemezo niba bamusezerera cyangwa aguma mu bitaro.

Umugore w'umuganga wambaye itaburiya isa ubururu, arimo gupima umuvuduko n'uko umutima utera, umusaza wambaye amarinete amufasha kureba mu gihe izuba ryabaye ryinshi cyangwa hariho urumuri rwinshi.

Umusaza wambaye ingofero y'urugara, ufashe ku rutugu umuhungu we w'imfura, uyu muhungu we akaba yari yaje kumusura mu gihe hari hashize igihe kinini badahura, bishimye, basabanye ndetse banaganiye bihagije.

Umukecuru urimo kuganira n'abana be wasetse ndetse n'abana be na bo basetse, ibi bikaba bituma umukecuru atihugiraho ngo asaze vuba, kandi ndetse n'ubwonko bwe bugahora butekereza neza.

Umubyeyi wicaranye n'abana be barimo kureba televiziyo bakaba bishimye baseka nyuma yo gusangirira hamwe ifunguro rya nimugoroba, ni byizayiza kwiyegereza abana batoya kuko bibashimisha ndetse bakanakwisanzuraho.

Umugabo urimo gukina n'akana ke k'agakobwa, arimo kugatoza uko bakina basketball. Birafasha cyane kuko bituma umwana akura yisanzuye ku mubyeyi wiwe, kandi bigakangura n'ubwonko cyane.

Umuganga w'umuzungu, ufashe mu biganza umukecuru, arimo guseka. Akaba arimo kumuganiriza ndetse anamuherekeza, amubwira uko agomba kwita ku buzima bwe, arya indyo yuzuye kandi akora siporo.

Abagabo n'abagore baturutse mu bihugu bitandukanye, barimo gufata ifoto y'urwibutso, bose bashyize baji zabo imbere kugira ngo berekane yuko bitabiriye amahugurwa bari kuri gahunda.

Ifoto y'abagore irimo umugabo umwe, bishimira ko bamaze gutera intambwe ishimishije mu gufata no kwemera inshingano zo kuyobora, yaba mu rugo rwabo ndetse no mu bijyanye n'imiyoborere y'igihugu.

Umugabo w'umuzungu ari kumwe n'umugore w'umwirabura bambaye baji z'akazi bakora, bashinzwe kwita ku buzima bw'abantu ndetse bakabungabunga n'ubuzima.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa gasa umweru n'ishati isa umweru arimo gufata urukingo rwa Covid cumi n'ikenda.

Abagabo n'abagore bateze amatwi mugenzi wabo, bisa nk'aho bari mu nama, bambaye neza cyane, bamwe harimo abambaye karuvati, amakode batebeje, bigaragara yuko babyiteguye neza.

Abagore n'abagabo barimo gufata ifoto nyuma yo gutanga ibiganiro ku baturage. Nibyiza yuko niba umaze gutanga ikiganiro ugiha abaturage, ufata ifoto y'urwibutso kugirango izahore ibibutsa ibyo mwavuze n'igihe mwabikoreye.

Itsinda ry'urubyiruko rigizwe n'abahungu n'abakobwa, ririmo gushishikariza bagenzi babo, kwirinda virusi itera SIDA, bipimisha buri munsi ku bigo nderabuzima bibegereye ko iyo serivisi ihari yo gupima urubyiruko ndetse n'abandi bantu ku buntu.

Nyuma yo gukora igikorwa gihuje abantu benshi, ni byiza gufata ifoto y'abantu bose bari bacyitabiye kuko gifatwa nk'igikorwa cy'ingenzi kandi iyo foto igahora ibibutsa ibihe bagiranye.

Icyapa kinini kiri impande y'umuhanda cyanditseho serivisi zitangwa n'ibitaro byegereye aho kiri, kikaba kiyobora abagenzi ndetse n'abandi bantu bashaka izo serivisi batanga.

Icyumba muganga ahuriramo n'umurwayi, igihe agiye kumuvura mu mutwe cyangwa agiye kureba ikibazo afite mu nda. Bikaba bitemewe ko winjiramo igihe muganga agiye gukora ibikorwa byiwe, ataguhaye uburenganzira.

Inyubako isize amarangi asa icyatsi kibisi, hasi ikaba itangirwamo serivisi zo kuvura abarwayi, ni byiza kujya kwivuza igihe cyose wumva hari impinduka zije mu mubiri wawe.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuganga, hakaba hari intebe abantu bicaramo igihe bagitegereje ubafasha, iyo umurwayi agezweho aragenda agahura na muganga akamubwira uko yafashwe, bagenda ku murongo.

Igicumbi cy'umudugudu cyanditseho indangagaciro na kirazira z'uwo mudugudu giherereyemo, hakaba hari n'idarapo ry'igihugu rigizwe n'amabara atatu, ubururu umuhondo, n'icyatsi, hakaba hari na jaride nziza imeze neza.

Umusaza wambaye lunette z'amaso n'ishati y'umutuku, arimo guseka mu gihe muganga arimo kumupima uko umutima utera.

Abagore batatu bambaye amataburiya asa ubururu, ndetse n'ingofero zisa umweru. Ni beza kandi bita ku buzima bw'abantu, babaha ibinini, ndetse babavura n'indwara zitandukanye.

Ibitaro bya leta, hari igihe biba bidafite imiti ihagije, bikaba ngombwa ko bikwandikira imiti ukajya kuyigura muri farumasi.

icyumba kirimo imashini eshatu, buri mashini icometseho insinga ndetse impande yayo hateretse intebe ifite imisego myiza, icyo cyumba kimanitsemo isaha ibara igihe ndetse akaba ari n'icyumba giteguye neza.

Mu bitaro haba ibikoresho byinshi byangiza. Ni byiza ko biba bifite ahantu hamwe babikusanyiriza hadashobora kugerwa n'umuntu uwo ari we wese, cyane cyane abana bato, kuko bashobora kubikubaganya ugasanga bibaviriyemo impanuka ishobora no guteza urupfu.

Inyubako igeretse kane, ikaba itangirwamo serivise zitandukanye ndetse ikanabasha kwakira abantu benshi icyarimwe, ni byiza kubaka inzu zigeretse izo tuzi nka etaje, kuko zidatwara ahantu hanini kandi zigakorerwamo ibikorwa byinshi icyarimwe.

Umugabo wambaye ipantaro isa umutuku n'umupira w'umweru n'agapfukamunwa, ahagaze imbere y'abandi bakobwa bicaye ku ntebe, bateye umurongo, baje gufata urukingo.

Inyubako igeretse kabiri, aho abagabo barimo kuyitembera b'abaganga, bakaba bari mu gushakisha abaje kwivuza ngo babereke aho bajya. Ikaba yubatse mu buryo butangaje ku buryo umuntu utabizi atamenya ikiyubatse.

Inyubako zubatse neza ndetse zifite na parikingi ni zimwe mu zigira abakiriya benshi, aha ngaha ibitaro bifite parikingi nini bibasha kwakira imodoka nyinshi, ni bimwe mu biganwa n'abarwayi benshi kuko baba babasha kubona aho baparika imodoka zabo.

Icyapa kinini kiri ku gipangu cyo ku bitaro bya Ruhengeri, aho kiyobora abarwayi n'abarwaza, aho ibyo bitaro biherereye, impande yabyo haca umuhanda unyuramo urujya n'uruza rw'abantu.

Ibitaro byubatse neza cyane, bifite porutaye imeze neza. Imbere haparitse imodoka isa umweru kandi hakaba hari abantu benshi baje kwivuza, bisa nkaho barimo gutanga serivisi rusange, ari byo twita kwegereza abaturage ubuvu...

Turishima cyane iyo tugiye ku kigo nderabuzima tukahasanga abaganga batwakirana ubwuzu ndetse batanga serivise nziza. Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi ni kimwe mu bitanga serivisi nziza kandi cyakirana abantu ubwuzu.

Abanyeshuri bane biga ibijyanye n'ubuganga, bambaye amataburiya asa umweru, abakobwa babiri n'abahungu babiri, bari muri raboratwari basuzuma.

Abaganga babiri barimo gufasha abarwayi baje kwivuza. Babasobanurira ibijyanye na serivise zitangirwa muri ibyo bitaro. Hakaba hari na televiziyo ihamanitse, ifasha abataravugwa kuba bafite icyo barangariyemo.

Icyapa kinini kiyobora abagenzi baje kwivuriza mu bitaro bya CHUB, bishinzwe kuvura indwara zitandukanye abanyeshuri biga muri kaminuza y'i Butare, baza kwitorezamo umwuga w'ubuganga.

Ibitanda biryamwaho n'abarwayi iyo baje kwa muganga, bifite amashuka asa umweru n'ubururu, hakaba hari n'amarido amanitse arinda imibu kwinjira ndetse n'imbeho.

Abarwayi babiri baryamye ku gitanda bari kwa muganga, bacometse ku byuma bishinzwe kubongerera umwuka, bararembye kandi basa nk'abakuze.

Abagore, abagabo, abana bicaye mu ntebe, aho bakirira abaje bagana ikigo nderabuzima. Ni byiza kuzinduka ugafata intebe y'imbere kugira ngo abe ari wowe baza guheraho bavura.

Inyubako itangirwamo serivisi zo kuvura amaso, hakaba haza abantu batandukanye yaba abana, urubyiruko ndetse n'abakuru, ushobora kuba ufite ikibazo cy'amaso uraza bakakuvura, hari n'icyapa cyerekana serivisi batanga.

Icyumba kinini gifite imiryango itatu, buri muryango ukaba utangirwamo serivisi zitandukanye, harimo ubwiherero, harimo aho umurwayi ajya gucira mu cyuma, ndetse harimo na kirinike.

Abantu benshi iyo ubahitishijemo ukababaza igice bakunda kandi kibafitiye umumaro kurusha ibindi, bavuga ijisho, ni byo kandi ni byiza.

Abaganga babiri bambaye udupfukamunwa n'amataburiya barimo kureba ku cyuma gipima uko umutima utera mu gihe umurwayi bakimushyizeho, bakaba barimo kumusuzuma ngo barebe uko umutima we uhagaze.

Kugira ngo ugire umubiri uteranye hose bisaba ko ukora siporo kenshi ku munsi kandi ukanywa n'amazi meza. Umukobwa wicaye hasi, ufashe ku mano, urimo kunanura ingingo ze kugira ngo umubiri we umere neza.

Igitanda gitoya kiryamwaho n'umuntu umwe, gikozwe mu byuma bisize irange ry'umuhondo, bikaba byifashishwa cyane cyane iyo umukinnyi agiriye ikibazo mu kibuga.

Icyapa kinini kiriho amabwiriza yo kwirinda Kovide cumi n'icyenda aho kivuga yuko ari byiza kuguma mu rugo igihe nta kintu gituma ugenda kihutirwa, gushyira intera hagati yawe n'undi byibuze ya metero eshanu.

Umukinnyi ukina umukino w'umupira w'amaguru uryamye hasi akaba afite ikibazo mu ivi, aho agonganye na mugenzi we bari mu ikipe imwe, akaba arimo kumukandira mu ivi kugira ngo amworohereze ububabare. Impande ye hari umupira bakinaga.

Imvune irababaza noneho bikaba akarusho iyo uvunitse utubumbabare two ku maguru. Umusore wifashe ku kabumbambare urimo ku gakanda nyuma yo kuvunikira muri siporo. Ni byiza gukandisha amazi ashyushye ahantu wavunitse mu gihe utabashije kugera kwa muganga.

Amazi meza y'urubogobogo barimo gusuka mu kirahure gisa umweru bayakura mu ibinika, akaba ari byiza kunywa amazi menshi ku munsi kuko bigabanya imyanda mu mubiri w'umuntu.

Imiti myinshi ikoreshwa mu gusukura ndetse no koza amenyo. Aha twavuga nka colgate bakoresha barimo koza amenyo ndetse no mu kanwa.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara n'agakabutura k'umukara uri muri siporo zigorora umubiri, arapfukamye; akaguru kamwe gapfukamye akandi gahagaze, ndetse amaboko ayamanura ashaka kuyafashisha.

Abantu benshi batinya gufata urukingo kuko rubarya ndetse bakava n'amaraso igihe babateye urushinge, umubyeyi wambaye ishati isa umweru afashe ku kaboko aho bamaze kumutera urushinge, kugira ngo yirinde kuva amaraso menshi mu mubiri.

Umusore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu wifashe mu mutwe amaboko ayanyujije inyuma, akaba arimo kureba mu kirere atekereza ku mishinga ye.

Umuti uri mu gacupa basiga umukinnyi mu gihe avunitse .Ni byiza gukoresha iyi miti ukawusiga cyane cyane ahantu wavunitse ukawuhakandisha uwuhatsirimisha cyane kuko ukira vuba ndetse n'ingingo zikagororoka.

Amahugurwa yitabiriwe n'abagore n'abagabo, aho bose bahanze amaso kuri televiziyo bakurikiranye ikiganiro cyerekeye uko wakwirinda ndetse ukanafasha umuntu uhuye n'ikibazo cyo guhungabana.

Umusore wambaye umupira w'umweru, akambara na kuteri mu matwi ndetse wambaye n'isaha ku kaboko k'iburyo, arimo kunywa amazi bigaragara ko ari mu gihe cy'izuba.

Igare rifite amapine ane, rikagira n'aho umuntu yicara rikaba ryifashishwa igihe hagize ugira ikibazo cyo kuvunika urugingo yaba ukuguru, amaboko cyangwa se afite intege nkeya atabasha kugenda.

Amazi meza ni ingenzi mu mubiri w'umuntu, ni byiza ko wanywa amazi inshuro nyinshi ku munsi, umusore wambaye isengeri y'umukara arimo kunywa amazi kuko yamaze kumenya ibyiza by'amazi mu mubiri.

Imbuto zitandukanye zirimo avoka, pome, amaronji ndetse n'urusenda, akaba ari byiza gufata imbuto nyuma yo kurya kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza ndetse agakora atagira indwara zimufata uko ziboneye.

Umugabo urimo gukora siporo wambaye agakabutura k'umukara n'isengeri y'umweru, warambuye amaboko imbere, amavi akayapfukamisha ku mukeka arimo gukoreraho siporo.

Umugabo wubatse umubiri mu bigaragara, arimo kunywa amazi bigaragara ko ari muri siporo, arasa neza kandi rwose ni mwiza, ari mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu, akaba yambaye isengeri isa icyatsi.

Umukinnyi w'umuhungu wambaye agapira k'ubururu urimo kunywa amazi nyuma yo gukora siporo, akaba ari byiza kunywa amazi usoje siporo byibura nyuma y'iminota mirongo itatu, kuko aribwo agira umumaro mwinshi mu mubiri.

Usibye kuba wanywa amazi meza akaba yasohora imyanda mu mubiri ndetse agafasha n'impyiko kuyungurura amaraso, ni byiza kwimenaho amazi igihe urangije siporo, kuko atuma umubiri uhumeka ndetse ukanagarura ubuyanja.

Umumansera witandiye ivara mu mutwe ndetse n'umuzungu barimo kwita ku bana batoya, babaha imfashanyigisho ndetse abatishoboye bakabaha imyenda ndetse n'ibyo kurya.

Umugore wambaye ishati y'umukara urimo gukorera masaje undi uryamye, ikaba ari nziza ku mubiri w'umuntu kuko ikangura umubiri igihe ufite ibibazo.

Iyo uvunitse ukajya kwa muganga baguha insimburangingo, aha twavuga nk'insimburamaguru baha umuntu wavunitse akaguru, iyo byanze bagushyiraho sima igufasha kugorora ingingo.

Umukobwa urimo gukora siporo, wambaye imyenda ya siporo, isengeri n'ipantaro bisa buresiyeri, amaboko yayamanuye imbere ndetse n'umutwe awuzana imbere, ashaka gukora munsi y'ibirenge by'iwe kugira ngo agorore umugongo.

Ibinini byinshi bikomoka ku bimera ndetse n'imbuto, muri izo mbuto twavuga inanasi, amaronji, indimu, avoka ndetse n'amacunga. Ibi byose bigira umumaro munini ku mubiri kuko bituma umubiri ubona indyo ihagije.

Iyo wabonye ibintu ntabwo upfa kubyibagirwa, kuko iteka bihora ku bwonko bwawe, insakazamashusho tuzi nka televiziyo, ni nziza kuko idufasha kumva ibintu tunabireba nkaho ari bwo birimo kuba.

Umusore uri muri gimu urimo guterura ibyuma wambaye umupira w'umukara n'ipantaro, akaba ari mu kigereranyo cy'ibiro biri hagati ya mirongo itandatu na bitanu na mirongo irindwi na bitanu.

Amazi meza y'urubogobogo arimo gusukwa mu gikombe gisa umweru ndetse akaba arimo no kuva mu ibinika imeze neza nayo isa umweru. Aya mazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu kuko afite isuku ihagije.

Iyo ukora siporo kenshi, ukarya indyo yuzuye, hakiyongeraho kurya imboga, ugira ubuzima bwiza. Mu mboga ushobora gufata twavugamo amashu, karoti, urusenda ndetse ugafata n'imbuto zirimo imineke. Bikaba akarusho ugiye ubona igi ku ifunguro ryawe rya buri munsi.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru na ga mu ntoki, ufite baro, imbere ye hari kizimyamwoto bakoresha bazimya umuriro igihe hari inyubako ifashwe n'inkongi y'umuriro.

Ibinini bitandukanye harimo ibisa umweru, ibisa umuhondo ndetse n'urushinge bakoresha barimo kuvura umukinnyi mu gihe agiriye ikibazo mu kibuga.

Amazi meza y'urubogobogo barimo gusuka mu kirahure gisa umweru. Ni byiza kunywa amazi meza kuko ari ingirakamaro mu buzima bw'umuntu.

Igihingwa gifite amababi y'icyatsi cyakuze neza uko bigaragara, cyanyweye ifumbire kandi cyakuze vuba vuba. Ni byiza guhingwa ibihingwa bidufasha mu gukora imiti gakondo.

Ifu yaturutse mu bimera bitandukanye, banitse bagashyira ku zuba bikahamara igihe kirekire, iyo fu iri mu gipapuro cy'umweru, bakaba bayifashisha mu kuvura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu ndetse n'izifata mu mubiri mo imbere.

Korogate nziza, ikesha amenyo, ikavura kunuka mu kanwa cyangwa kugira impumuro mbi mu kanwa, ikozwe mu bimera bitandukanye biboneka mu Rwanda rwa Gasabo.

Icupa rinini ririmo ifu ikozwe mu muravumba, akaba ari igihingwa gihingwa mu butaka, kigakura vuba. Umuravumba ni mwiza ku muntu urwaye inkorora, ubabara umutwe, ndetse ufite n'isereri, kuko umuvura vuba.

Usibye kuba indabo nyinshi, bazikoramo imiti itandukanye, ubwerezwa bwazo butuma ahantu hagaragara neza. Ndetse bugatanga n'impumuro nziza aho buherereye. Ni byiza gutera indabo ku rugo, kuko zituma urugo rugaragara neza.

Imiti ikomoka ku bimera ni myiza ku mubiri w'umuntu igihe yatunganyijwe neza. Aha ngaha dufite tungurusumu idufasha mu gutuma amaraso atembera neza mu mubiri. Hari n'ubundi bwoko bw'imiti nabwo bwifashishwa mu kuvura umubiri w'umuntu.

Amavuta akoze mu bimera ni meza ku ruhu rw'umuntu kandi akaba avura indwara zitandukanye, aha twavuga nk'igikakarubamba kivura indwara nyinshi yaba izo mu mubiri ndetse n'izo ku ruhu.

Igiti gifite amababi asa icyatsi cyakuze neza kurusha ibindi, gihinze mu butaka bwiza, izuba rikivaho ndetse n'imvura ikakigwaho, niyo mpamvu gikura neza kurusha.

Ishyamba kimeza ririmo ibiti bitandukanye, harimo n'amapapayi afite ibibabi bisa icyatsi. Akaba yifashishwa mu gukora imiti gakondo ivura indwara zirimo no kubabara umugongo.

Ibimera byifashishwa mu gukora imiti gakondo. Muri byo harimo igikakarumba harimo ibinobonobo, ibi byose bikaba byifashishwa mu gukora imiti itandukanye kandi ivura indwara zitandukanye.

Umuganga wambaye agapfukamunwa n'itaburiya byose bisa umweru, arimo gufata amacupa arimo ubuki akayashyira mu bikarito kugirango bazabashe kuyageza ku baturage afunitse neza kandi bayarinde kwangirika.

Ishyamba rinini ririmo ibiti birebire ndetse n'ibindi bigufiya, byifashishwa mu gukora imiti gakondo, iyo miti ikaba ivura indwara zitandukanye, zaba izifata ku mubiri inyuma cyangwa mu mubiri mo imbere.

Amavuta akozwe mu bimera, akaba ari muri litiro isa umuhondo. Ni byiza gukoresha amavuta akomoka ku bimera kuko nta sukari iba irimo, yangiza ubuzima bw'umuntu.

Icupa ririmo shampoo ikozwe mu bimera bitandukanye, ikaba yifashishwa mu gufura mu mutwe, ndetse no mu bindi bintu, kuko ikuramo umwanda, ndetse igatuma hahumura neza.

Icyatsi gikura kirandaranda, aho bacyubakira ibiti, kugira ngo kijye kibona uko kirandaranda. Gifite amababi y'icyatsi, atoshye kandi abereye ijisho.

Uducupa dutoya turimo imiti gakondo bakoresha bavura indwara zitandukanye ndetse iyi miti ikaba iba yavuye mu bimera gakondo, baba batunganyije bakayikoramo imiti itandukanye.

Amacupa atandukanye yifashishwa mu kubika imiti iba yaturutse mu bimera, hari icupa ry'ubururu ndetse n'iry'icyatsi ribitsemo ibyakomotse ku gikakarubamba ndetse n'ibindi byatsi bitandukanye bifashisha mu kuvura indwara zitandukanye.

Amavuta ari mu ducupa dutandukanye, ari mu kabati, aho atondetse ku murongo mu buryo bunogeye amaso kandi bukurura abakiriya. Akaba ari meza ku ruhu rw'abantu, kuko yujuje ubuziranenge.

Umuti uri mu icupa ukaba usa icyatsi, ukaba ukozwe mu byatsi gakondo. Ni byiza gukoresha uyu muti kuko uvura indwara nyinshi zifata uruhu, twavuga: imyate, amaga ndetse n'ibihushi.

Indwara nyinshi zifata ubwonko ziravurwa zigakira igihe uwaje kwivuza zitararenza igipimo. Aha twavuga nk'ibinini baha umuntu ubabara umutwe cyane biba biri mu icupa ry'umweru. Ibi bakaba babyita forever focus bigabanya uburibwe mu mutwe.

Imiti gakondo ipfunyitse mu macupa atandukanye, hari iri mu macupa maremare ndetse n'iri mu macupa magufiya. Harimo abitsemo mu buryo bw'amafu ndetse n'abitsemo mu buryo bwa likide.

Igiti kinini kigandaye gifite amababi asa icyatsi kandi menshi, izuba ririmo kukivaho cyakuze neza, aya mababi akaba yifashishwa mu gukora imiti gakondo.

Amacupa atandukanye abitsemo ibinini bikoreshwa mu kuvura abarwayi, bakaba bayabitse ku buryo ateye umurongo, bakayashyira mu kabati kugira ngo birinde ko yakangizwa n'abana cyangwa akaba yakivanga.

Ibimera biteye mu butaka bwiza, byakuze neza, izuba ririmo kubivaho. Akaba ari ibimera bifashisha barimo gukora imiti gakondo ivura indwara.

Hari ibihingwa byinshi bifite umumaro, ku buryo bishobora no gukurura ba mukerarugendo mu rwanda. Aha twavuga igikakarubamba, cyifashishwa mu gukorwamo ibinini.

Amavuta akozwe mu gikakarubamba ari mu icupa rinini risa icyatsi, akaba yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi, harimo izifata ku ruhu ndetse ababishoboye bakaba bayavanga n'ibyo kurya.

Korogate iri mu gacupa gasa icyatsi ikozwe mu bimera, birimo igikakarubamba bakoresha mu kuvura no gusukura amenyo ndetse ikaba ituma mu kanwa hahumura neza.

Icupa ry'umuhondo ripfunyitsemo imiti yaturutse ku bimera, iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ni byiza gufata iyi miti igihe cyose wumva utameze neza, ariko ukaba wabanje kujya kwa muganga kwisuzumisha.

Amacupa menshi apfundikiye arimo umuti ukozwe mu byatsi, akaba ari menshi kandi akaba atandukanye, harimo arimo ubuki, harimo arimo ji ikozwe mu myembe.

Icyatsi cyakuze neza kiri mu busitani, gifite amababi asa icyatsi, kikaba cyaranyweye ifumbire, kikaba kifashishwa mu gukora imiti gakondo ivura indwara.

Ibinini bisa umweru n'agacupa gahari ko gushyiramo ibyo binini ndetse hakaba n'ibyatsi bitandukanye, bifite amababi asa icyatsi bakuramo ibyo binini nyuma yo gutunganywa.

Icupa ry'umweru ririmo ubuki butunganyijwe neza bwatanzwe n'inzuki, bukaba bwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ndetse no gukuraho amabara ku ruhu ku bayafite.

Uruhu rutagira ibiheri habe na mba, ni uruhu rwiza kuko rukurura abantu. Aroye vera jeri ni jeri yagufasha mu gukuraho ndetse no koroshya uruhu rwagize ikibazo cyo kurwara ibiheri.